Umudamu wambaye umupira w'ubururu ahagaze imbere y'urugi narwo rusa ubururu, inyuma ye hari idirishya yambaye agapfukamunwa gasa umutuku afite umusatsi wa natirere ahagaze nkuri gufata ifoto ya pasiporo.